Umugati witwa baga n'imboga n'ifiriti zirimo n'inyanya birambitswe ku isahani y'ikibaho, hirya hari guhinguka umuntu uhagaze n'intebe.

Inzu yubakishijwe amatafari, iteye irangi risa n'ubururu ryanditsweho Pirimusi Guma Guma, ifite idirisha rimwe riteye irangi risa n'umweru, hagati hateye ururabyo bakase neza.

Boroshete ziri ku duti, ziri ku sahane isa n'umweru. Hagati y'izo boroshete, harimo utuntu bacometsemo tumeze nk'inyanya, izo zikaba zirambitse hejuru y'inyanya n'ibitunguru, harimo n'utuntu tumeze nk'imboga dusa n'icatsi.

Aha hoteri irimo intebe zifite ibitambaro by'ibitenge. Ku meza hari igitambaro cy'umweru n'igitambaro cy'igitenge kirimo amabara atandukanye, gifite ifite insenge z'ibiti ziriho ibyatsi, hirya hari y'ibiti birebire, hakurya harahinguka amazu menshi arikwaka amatara.

Abagabo babiri bicaye umwe yambaye, agapira k'umutuku n'ipantaro y'ikoboyi, bicaye ku ntebe z'umuhondo, bari kunywa ibinyobwa bitandukanye harimoji y'inyange, n'ikinyobwa ca sikoro.

Ahantu hasa nk'aho ari resitora, hariho umuhanda ufite amabara atatu, harimo abana bari kugenda, abandi baricaye, hariho n'inzu handitsweho Visiti Rwanda Isakopi.

Iduka rinini cyane bacururizamo imyenda n'inkweto. Imbere harimo utubati turambitseho inkweto n'imyenda irambitse kuri porotomanto. Ku muryango hari ibipupe bibiri, kimwe cyambaye ishati ikindi cyambaye agapira n'ipantaro y'umukara.

Amazu y'ubucuruzi yubatse afite igikuta kiriho amakaro, inzu imwe ikaba ikorerwamo ibintu by'imigati, abaturage bari kugenda mu muhanda, umugabo wicaye imbere y'inzu ku ntebe y'umutuku.

Inzu y'ubucuruzi ya etaje, imbere yayo hari imbuga y'amapave. Hari umugabo uri gutambuka ufashe telefone, inyuma ye hari undi munyegare uri ku gare, imbere y'iyo nzu hari ibiti bibiri byambaye imyenda, hari ibyapa binini biri ku miryango y'iyo nzu

Inzu ya etaje hasi bari gucururizamo. Hari umugabo uhagaze hejuru. Iyo nzu iriho ibyapa binini byinshi cane. Hari umumotari uparitse imbere y'iyo nzu. Hari n'umuryango gumwe imbere yago gurambitsweho amagaze.

Inzu bacururizagamo ibikoresho byinshi. Imbere hahagaze umugore wegamiye akabati, wambaye ikanzu ndende, ku muryango hari igipupe cyambaye ijire y'umutuku n'imyenda ipantaro n'ishati bisa.

Icapa kinini kiri ku nzu ya etage hejuru hari icapa kigaragaza ko bakora imisatsi n'inzara hasi naho hariho icapa gisa n'umweru cyanditsweho dekoresheni twambika abageni dukora indabo, dufite impeta nziza, imodoka z'ubukwe, sonorizasiyo na layivu bande.

Inzu bacururizamo zubatswe impande y'umuhanda . Zifite urukuta rwo hejuru ruriho amakaro , inkuta zo hasi ziteye amarangi , inzu yo hepfo umuryango urafunze , inzu yo haruguru hari amagare aparitse yegetse ku bikuta , hari umukobwa n'umuhungu bahagaze imbere y'inzu yo hepfo n'akana Kari gutambuka .

Inzu ifite imiryango itatu. Ku rukuta rwo hejuru hari amakaro g'umweru, imbere hateye igiti kirekire gifite utubabi dutoya dusa n'icatsi. Hari abantu babiri harimo umunyonzi n'umukobwa bari gutambuka imbere y'iyo nzu. Ifite umuryango go hagati gusa n'umukara.

Inzu ifite imiryango itatu iteye irangi ry'icatsi umuryango wo hagati bawucururizagamo imbere harambitse intebe n'imashini bakoreshaga bari kudoda imyenda.

Inzu bacururizagamo ku gikuta hari amakaro y'umweru hari imyenda myinshi cane y'ibitambaro imanitse ku muryango hari n'abagore babiri bicaye impande y'inzu

Inzu bacururizamo ifite imiryango ibiri na makaro y'umweru ari kugikuta umuryango wa haruguru hari ibyapa bitatu bafite urugi rusa n'umweru umuryango wo hepfo urafunguye urimo ibintu byinshi imbere n'imifuka hari agafuka kamanitse ku muryango.

Butiki iri ku muhanda yubakishijwe utuntu tw'utubaho turi imbere, hakaba hariho icapa cyanditsweho metajeni terito limitedi kiriho amacupa menshi y'inzoga, hakaba hariho n'andi mafoto manini y'inzoga ya pirimusi.

Inzu bacururizamo yanditsweho Eyateli mu magambo y'umweru. Iteye irangi ry'umutuku. Ku muryango hariho icyapa kiriho abantu bafite imisatsi b'abahungu. Imbere hari umuntu uhagaze, harimo n'intebe ziteye irangi ry'ubururu.

Ibikoresho biri gucuruzwa bitandukanye biteretse ku bikarito harimo: utugare tw'abana, amagare manini ya siporo, amabase, ibikombe n'indobo n'amasafuriya.

Akabati karimo Telefone imbere yaho hariho akazu kanditsweho Ekwiti Agenti na Beka yacu na nimero za Telefone. Inyuma hari uruzito rwa senyenge, imbere harimo ibigega bibiri bisa n'umukara. Mo imbere muri ako kazu harimo umugabo wunamye.

Icapa kinini kiri ku umuhanda cyanditsweho amagambo yandikishijwe ibara ry'icatsi n'umukara, aya magambo akaba ari zamura famu sapulayi fidi sidi larije, ekwipumenti purayide famuzi, buringi de famu home.

Inzu bacururizagamo iri mu gipangu gifite uruzitiro rw'ibyatsi, hariho urugi rw'umutuku hari n'ibyapa biri kuri izo nzu, inyuma y'iyo nzu hateye urutoki n'igiti c'avoka kinini.

Inzu uruhande rumwe ku gikuta hari amakaro hejuru hari akabaraza gafite ibati ry'umutuku. Urundi ruhande ruteye irangi ry'umweru hasi ni amatafari y'umutuku. Hariho icyapa cy'umweru kinini cyanditsweho hano tubafitiye:inkoko, ifi, ifiriti, burushete, agatogo, boyilo, igiti, igisafuriya, urukwavu, akabenzi.

Inzu bacururizagamo ifunguye ifite imiryango iteye irangi ry'ubururu, hari umuhungu uhagaze mu muryango wambaye agapira k'umweru, imbere muri iyo nzu hateretse intebe na firigo isa n'umweru.

Amabotike menshi harimo afite inkuta ziriho amakaro, andi ateye irangi ry'umuhondo. Imbere hari imbuga y'itaka, hateretse imifuka myinshi n'umunzani.

Aga macupa menshi ga gaze kafite ibara ry'umutuku kateretse imbere y'umuryango, haruguru hari guhinguka umutaka gwa emutiyeni, hirya hari abagenzi bari kugenda mu muhanda.

Inzu y'ubucuruzi yubatse ku muhanda, imbere hariho imbuga y'amapave ifite urukuta ruriho amakaro hejuru, hasi hari irangi ry'umuhondo, ifite imiryango iteye amarangi y'icatsi, hari ibyapa kuri ayo mazu, icya Ekwiti Banki n'icya Emutiyeni.

Inzu bacururizamo ifite inkingi ziteye irangi ry'ubururu, ifite imiryango isa n'icatsi, hari irido ku muryango n'icapa gifashe ku nkingi, ku rukuta hari amakaro afite amabara y'ubururu n'umweru.

Inzu ifite igikuta kiriho amakaro, ifite imiryango ibiri zifite inzugi zisa nicatsi inyuma hateye irangi ry'umuhondo, imbere hicaye umugabo wicaye ku ntebe isa n'umutuku, imbere hapavishije amabuye.

Inzu ya etaje y'ubucuruzi inakorerwamo ibindi bikorwa. Abamotari baparitse ku muhanda, imbere y'iyo nzu, abanyonzi bari mu muhanda. Umugabo uri gusunika ingorofani. Hariho ibyapa byinshi bitandukanye, byerekana ibikorwa bikorerwamo, harimo sitatayimu, turikumwe hapikidi.

Inzu nini bacurizagamo ifite urukuta hejuru ruriho amakaro g'umweru ,imbere y'iyo nzu hicaye umugabo uri kudoda inkweto, hari umugore uhagaze mu muryango n'umukobwa uri kumanura igitenge.

Inzu iteye irangi ry'umuhondo, imanitsweho icapa kinini gisa n'umweru, cyandikishijweho amagambo y'umukara n'umutuku, ariyo" Dukunde amatungo yacu limitedi".Hashushanyijwe n'inka, imbere hari amagare menshi bari gukora.

Inzu nini y'ubucuruzi iri ku muhanda ifite irangi ry'umuhondo. Ifite imiryango itanu akaba ari naho bacururiza gaze hejuru y'iyo inzu hari yo nteni y'igisahani hirya hamennye amatafari, hateye n'urutoki.

Isoko ririmo abacuruzi benshi ryubatswemo n'amazu afite irangi ry'umuhondo andi ry'icatsi, harimo ari gucuruza ibitunguru ku dufuka bamwe biteye n'imitaka, hakaba harimo n'abajenti ba emutiyeni.

Ahantu hameze nk'isantere harimo iduka ricuruza imyenda myinshi n'amasafuriya n'amabase, imbere y'iryo duka ahagaze abagore babiri bari kureba inkweto, hirya yabo hariho undi wambaye ibitebo.

Inzu batunganyirizagamo imisatsi iteye irangi ry'umuhondo, ifite urugero rusa n'ubururu, ku gikuta handitsweho nimero za telefone n'amagambo: turasokoza, dusuka na direde, hari icapa c'umweru kimanitse hejuru y'umuryango.

Inzu bacururizagamo ifite umuryango usa n'umweru, imbere ku kabati hateretse amazi ya jibu, ku muryango hateretse intebe irambitseho ijiri ya MTN, imbere y'inzu hari umutaka gwa MTN.

Imyenda imanitse kuri porutemanto z'utwuma bararanaga. Impande yazo hari icapa kiriho ijambo ryanditsweho sitayilo n'umuhungu uri kugenda.

Abantu benshi bari mu isoko, hepfo hariho amazu bacururizamo, imbere yayo hari igiti kirekire bamwe baricaye abandi barahagaze, harimo imitaka ya eyateri isa n'umutuku n'iya emutiyeni bari gucuruza indobo, amabase ahandi bari gucuruza inkweto.

inzu irimo akabare hashushanyijweho ingagi ziri mu birunga n'ikigona, handitsweho welikamu na karasike pabu ariho n'icyapa cy'umuhondo cya sikoro kuri icyo gikuta hari amakara.

Icapa kiri ku nzu hejuru cyanditsweho Hamoni minimaketi sheze Kabasha, na nimero za telefone. Kuri ico capa hariho: ibiribwa, ibinyobwa, ibikoresho by'isuku, n'ibirungo dukoresha mu biryo.

Inzu bacururizamo iri ku muhanda. Ifite akabaraza hejuru gafite amabati y'ubururu, n'urukuta ruriho amabati y'umweru. Imbere y'iyo nzu hamanitse imyenda, harambitse na matera ebyiri. Hari abantu bari gutambuka bari kuzamuka. Abandi bagabo bicaye hirya y'umuhanda.

Matela nyinshi zigerekeranyije zifite amabara gatandukanye zirambitse ahantu ku muhanda hejuru ya rigore, haruguru hari k' umutaka gwa emutiyeni hirya hari umugabo wicaye imbere y'imashini idodaga n'umumotari uri kuzamuka.

Inzu yubatse ifite urukuta ruriho amakaro g'umweru hari icapa kinini kiri ku rukuta rw'iyo nzu cyanditsweho nzayisenga gishushanyijweho indobo n'amashashi, amavuta yo guteka, imifuka y'ifarini n'utudomoro tuvagamo amavuta y'ubuto.

Abagore babiri bari kugenda bari kuzamuka. Bambaye inkweto za mwamini zisa n'icatsi. Umwe ahetse umwana undi afashe ibase y'umukara. Imbere yabo hari imodoka ya fuso iteye irangi risa n'ubururu.

Utubaho dutatu tubajije neza tumanitse ku migozi, utwo tubaho handitsweho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, hejuru handitswe irebe hagati basiket koregisheni, hasi handitsweho nimero za telefoni.

Isoko rinini cyane hirya hari amazu yubatse ateye irangi ry'umweru, n'indi iteye irangi ry'icyatsi. Hari umutaka wa MTN ufunguye, impande yawo hahagaze umugabo uhetse igikapu. Hari abagore bicaye n'abahagaze bose biteye imitaka.

Umugore ufashe imyenda mu ntoki ,amapantaro n'udupira n'igitenge, afite urukweto ku mutwe. Inyuma ye hariho inzu yubatse ifite urukuta ruriho amakaro y'umweru, hirya hahagaze umukobwa wegamiye ku rukuta uri kuri terefone.

Butike ikorerwamo ibintu by'ikoranabuhanga, imbere hateretse ameza ariho imashini ifotora impapuro, hari n'igitambaro cyifashije bari gufotora kimanitse ku muryango, hakabaho n'icyapa kiri ku muryango cyanditsweho kopilayite.

Botike nini cane irimo ibicuruzwa byinshi iri mu makarito mu mashashi, hari umugore uhagaze mu muryango uri kureba hanze, ukenye igitenge washokoje umusatsi.

Inzu nyinshi bacururizagamo. Hejuru y'iyo nzu hari za za antene z'ibisahani. Hari akazu ku mu ajenti wa Emutiyeni karambitse, imbere y'izo nzu hari umunyegare uparitse. Ziriho ibyapa binini cane.

Inzu bacururizagamo; ku gikuta cegereye umuryango hari amakaro afite ibara ry'umukara n'iry'umweru, n'itara riri kwaka. Hejuru ku gikuta hari icapa c'umweru candikishijweho amagambo y'umukara.

Inzu nini cyane iteye irangi ry'umuhondo. Ifite inkingi ziteye irangi ry'ubururu. Hariho icyapa kimanitse cy'umweru cyanditsweho ambara uberwe. Kiriho n'amafoto y'abantu bambaye ikositimu n'amakanzu. Hariho na nimero za telefone.

Amazu menshi cane bacururizamo yubatse ku muhanda. Ku gikuta cayo hari ibyapa ahandi handitswe amagambo, hari umumotari uri gubutambu uhetse umugenzi, imodoka iparitse imbere y'izo nzu, n'umutaka wa emutiyene.

Icapa kinini gisa n'umweru kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku n'umukara ariyo dekoreti wivu sitayiro dekoresheni, twambika abageni, dukora indabo, dufite impeta nziza, imodoka z'ubukwe, sonorizasiyo layivu bande, hakaba hariho na nimero za telefoni.

Amazu y'ubucuruzi asa nk'aho ari ku muhanda umuryango umwe wanditsweho songa saluma yandikishijwe amagambo y'umutuku uriho abantu bicaye ku muryango umwe wicaye ku ntebe undi usa nk'aho ari kuboha imisatsi imbere yabo hari abandi bantu batatu hirya hari inzu ya etaje iriho ibipupe bihagaze imbere byambaye imyenda.

Iduka bacurizamo ,harimo utubati turimo imiti itandukanye bakoresha bari kwita ku myaka ,hari iri mu ducupa ,mu bikombe, ndetse no mu mashashi.

Inzu bacururizagamo zubatswe ku muhanda. Imbere y'izo nzu hari imbuga iteye sima. Ku gikuta cyazo hari amakaro y'umweru ahandi y'ubururu. Hari icapa kinini cyerekana amasabune y'isoko ya omo.

Inzu ya etaje ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo iby'ubucuruzi, hasi haparitse abamotari benshi hakaba hariho n'abanyegare bari kugenda mu muhanda, hakaba hariho n'ahantu hari icapa canditsweho Turikumwe hapikidi na sitaritayimuzi.

Abantu bari kumuhanda haparitse amagare, aho bari gukanika amagare hariho umugabo muremure uhagaze, n'abandi babiri bicaye hakaba hari n'undi wicaye imbere ya butike wifumbase, wambaye ingofero.

Inzu ikorerwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo amaradiyo, amatelefone, yicayemo umuntu uri imbere, uri kureba hanze, n'abandi babiri bicaye ku muryango, hari n'umutaka wa emutiyeni.

Isoko ricururizwamo imbuto n'imboga, ririmo abantu benshi. Rifite igisenge gisa n'umweru, harimo imbuto nk'imineke, imyembe, avoka. Hari umugore uhagaze wambaye imyenda isa n'umutuku.

Inzu bacururizamo, ifite urukuta ruriho amakaro n'akabaraza gafite ibati ry'umutuku, hari umugore uri gutambuka mu muhanda, umuryango umwe urafunze ahandi harafunguye harambitse mo udufuka twinshi n'akandi gafuka kamanitse mu muryango.

Inzu yubatse ifite imiryango ibiri, ku rukuta hari amakaro asa n'umweru imiryango iteye irangi ry'ubururu, ku muryango umwe urafunguye hateretsemo imifuka n'intebe, imbere yayo hasutamye umugore uri kurobanura ibirayi n'amagare abiri aparitse imbere y'iyo nzu.

Iduka ricuruza ibiribwa, imbere hariho ameza ateretseho capati zahiye, imbere harimo akabati karimo ibinyobwa, hejuru hariho udukarito tw'uduparasitike turimo amandazi.

Icapa kinini gisa n'ubururu kiri kwamamaza amasabune akoreshwa mu isuku yo gufura, hakaba hariho indobo n'ayo mu ishashi, aka...kikaba kimanitse ku nzu ifite igikuta kiriho amakaro, hirya hari igiti kirekire gifite amababi y'icatsi maremare.

Inzu ifite imiryango itatu yose iteye irangi ry'ubururu, ifite amabati y'umutuku, imbere y'iyo nzu hari ibiti birebire, hari n'indabo ngufiya zikase ziteye imbere y'inzu.

Inzu nini cyane yubatse ku muhanda, iteye irangi rifite ibara ry'i...hari icyapa kinini kiri ku rukuta cyanditsweho Kalisimbi Vorukano Senta, hari umugabo uhagaze kuri iyo nzu ku muryango.

Ibicuruzwa biri ku muhanda biri mu mufuka bimwe biri ku meza. Bitwikiriwe n'imitaka umutaka w'ubururu n'umutaka w'umutuku harimo ibirayi, inyanya, ibitunguru, igitoki.

Amazu y'ubucuruzi menshi, ari ku muhanda, afite ibikuta biriho amakaro, hari n'ifi iriho icapa kinini kiri kwamamaza isabune ya omo, hari n'umumotari uri mu muhanda uhetse umugenzi.

Umukobwa uri kwambuka umuhanda. Imbere ye hariho akazu kaba ejenti ba Emutiyeni hepfo hariho urusengero runini rufite uruzitiro rusa n'ubururu , Imbere y'urusengero haparitse imodoka nyinshi.

Inzu ya etaje iriho icapa kirekire cyanditswe debezi wani haba uruzitiro rwubakishijwe ibyuma biteye irangi isa n'icatsi impande yiyo etaje hari guhinguka anteni y'igisahani hari n'igiti giteyemo hagati imbere.

Amazu y'ubucuruzi yubatswe ahegereye umuhanda afite imbuga irimo amapave haparitse moto, hariho ibyapa hakabaho n'akandi karambitse imbere y'umuryango gafite umwenda w'umutuku.

Inzu ya etaje yubatse ahantu ku muhanda, hejuru bacuruza imyenda yabageni, hepfo hanitswe imyenda, hasi bacuruza ibikoresho byo mu nzu, imbere y'iyo nzu hahagaze umukobwa ufite imisatsi y'umuhondo.

Icapa kinini kimanitse ku gipangu. Hirya hari guhinguka igiti. Hirya yaco hari inzu ya etaje ico capa cyanditsweho edeni golufe gesite hawuze, ishushanyijweho n'igitanda gishashe.

Ama botike menshi ariho ibyapa bitatu, kimwe cyanditswe ngo gafasheni shopu, ku muryango hari imyenda myinshi imanitse ku nzugi, n'abantu bahagaze n'abicaye imbere y'imiryango.

Amaduka yubatse ku muhanda，ya etage hepfo naho hari etaje itaruzura， bari gucuruza ibikapu bikozwe mu bitenge， hakaba n'undi mugabo uri gutambuka，wambaye ishati y’umutuku n ’ipanantaro y’ikoboyi.

Inzu bacururizagamo ku idirisha harambitse imineke zihiye, zisa n'umuhondo imbere hari umugore wunamye uri gukubura imbere ya hateretse ibase isa na orange iyambitsemo igitenge.

Icyapa kinini cyane gisa n'icyatsi kiriho icupa ryanditsweho henikeni n'amagambo ariyo faraja na henikeni, hejuru hari akanyenyeri. Imbere hari imbuga y'amapave, hari ibiti biteye imbere y'uruzitiro, hari inzu ya etaje yubatse inyuma y'urwo ruzitiro.

Inzu ya botike iri ku muhanda, imbere yayo hari imbuga y'amapave, hirya y'iyo nzu hari indi nzu ifite urukuta rw'amakaro, inyuma yayo hari izindi nzu zubakishijwe na sima, hari icapa ciri imbere ku muryango ufite ibara ry'icatsi.

Inzu y'ubucuruzi iri ku kumuhanda ifite imiryango ine, hari umuyonzi uri mu muhanda uhetse umugenzi, undi ari gutambuka imbere y'iyo nzu, moto iparitse ku muhanda, umugore uhagaze imbere yumuryango, intebe y'umweru iri imbere y'umuryango, n'imifuka myinshi iteretse imbere y'umuryango.

Akazu gatoya kubatswe ku muhanda, gateye amarangi g'ubururu. Imbere hari igiti kinini ca avoka, inyuma hari umurima guhinze, n'nzu y'amatafari yubatse inyuma iriho akapa hejuru.

Inzu bacururizagamo zifite akabaraza gafite amabati y'umuhondo, imbere haparitse imodoka y'ivatiri, umuryango wo haruguru harambitse imbabura hanze imikubuzo n'ibijerekani.

Butike ziri ku muhanda imbere y'ayo mabotike hari abantu benshi bari gupakira ibigori mu mufuka, hakabaho n'igare riparitse imbere y'iyo botike.

Utubaho dutatu tumanitse tubajije neza twanditseho amagambo afite ibara ry'umukara: ako hejuru kanditsweho irebe, ako hagati kanditsweho basikete kolekishoni, ako hasi kanditsweho nimero za telefoni.

Botike bacururizamo ibikoresho by'ubwubatsi harimo pubeli bajugunyagamo imyanda amatiyo bakoresha y'amazi amaravabo yo mu gikoni amatiyo yo ku mireko.

Amabotike menshi ari ku muhanda, hari umuhungu uri gutambuka yambaye agapira k'umukara. Inzu imwe ifite igikuta kiriho amakaro y'umweru indi iteye irangi ry'umuhondo indi irangi ry'icyatsi indi irangi rya pinki, imbere y'inzu imwe hateretse ikandagira ukarabe.

Inzu yubatse ifite imiryango ibiri iteye irangi rifite ibara ry'icatsi, urukuta rw'iyo nzu hari amakaro asa n'umweru, umuhungu wicaye imbere y'inzu ku ntebe y'umutuku, hirya hari indabo zandi zanitsweho imyenda.

Icyapa kinini cyane kiri ku gipangu cyanditsweho wani emu moteri. Ku ruhande hari icapa kindi cya sikoro gisa n'umuhondo. Ku muryango hari ibindi byapa, ndetse n'ikindi kirambitse ku rukuta kiri guhingukamo imbere impande y'ururabyo.

Inzu yubatswe ifite urukuta ruriho amapave y'umweru. Ifite umuryango usa n'icatsi. Imbere hamanitse ibitenge by'amabara gatandukanye, ifite parafo iteye irangi ry'umweru.

Amazu y'ubucuruzi menshi ari ku muhanda, afite ibikuta biriho amapave. Imwe iriho icapa cyanditsweho fasiti fudu giparitseho igare. Haruguru bacuruza amagaze, n'abantu bari mu muhanda bari kugenda.

Inzu nini ya etaje ifite buloke eshatu, iyo hasi, iyo hagati n'iyo hejuru. Imbere hari imbuga y'amapave, hari igare riparitse imbere y'umuryango, hari ibyapa bihari, kimwe cyanditsweho virunga hoteli, ikindi cyanditsweho hayilandi, n'abantu bahagaze imbere y'umuryango.

Botike nini cane irimo ibicuruzwa byinshi imbere harambitswe utubati twa palasitike ,amasafuriya, indobo amabasi, k'umuryango hamanitse imyenda ku kagozi n' imikoropesho irimo imbere.

Inzu nyinshi bacururizamo. Imwe ifite imiryango itatu, ibiri iteye irangi risa n'icatsi, undi muryango ufite irangi risa n'umutuku. Abahungu babiri bahagaze imbere ya yo bafite amagare. Haruguru hari indi nzu iteye irangi ry'umuhondo.

Inzu ikorerwamo imisatsi cyangwa abita ku misatsi, hakaba hari icapa canditsweho de deforowa saruni handitsweho turogosha, turasuka, tudefiriza, dutunganya n'inzara, twashushyijweho n'abantu babiri umuhungu n'umukobwa, ndetse hakaba handitsweho na nimero za telefoni.

Udukomo dutatu twanditse amagambo nowani batiyu, agakomo kambere gafite ibara ry'umuhondo, akakabiri iroza, akagatatu gafite ibara ry'ubururu.

Inzu yubatse bacururizagamo ifite imiryango itatu. Imiryango ibiri irafunguye, hari umugore uhagaze mu muryango go hepfo, ku muryango wo haruguru hari intebe iri mu muryango isa n'umweru.

Butike bacururizamo ibintu bitandukanye, bakoreramo n'ibindi bintu byinshi hariho icapa cyanditseho banki ofu kigali ajent, ekwiti ajenti, beka yacu ,hakaba hariho na maneke ziri imbere iyo butike n'imashini ifotora irimo imbere.

Inzu bacururizagamo yubatswe ku muhanda. Ifite urukuta ruriho amakaro gafite ibara ry'umweru n'iry'ububururu. Hari umukobwa uri gusohoka mu muryango gwo hepfo guriho rido. Haruguru hateretse agapaniye bashiramo imyanda.

Botike irimo ibicuruzwa bitandukanye, hariho ibyapa bitatu biri ku gikuta ku muryango, hariho icyubururu cyanditsweho jibu, hakaba icya emutiyene cyanditsweho momo, hakabaho n'ikindi cya orange, hari intebe iteretse imbere y'umuryango, n'amakarito ari mumuryango n'imbabura.

Inzu bacururizagamo ifite igikuta kiriho amakaro y'umweru, hari icapa gishushanyijweho amata kiri hejuru, urugi rusa n'icatsi, imbere hateretse amacupa ya gaze, hari n'igare riparitse imbere y'umuryango.

Inzu yubatswe ifite urukuta ruriho amakaro g'umweru, hari icapa kinini cy'umuhondo gishushanyijweho abana bafite imisatsi cyanditsweho Hope Saluni, imbere mu muryango hari akana gahagaze kambaye utwenda tw'umweru.

Icyapa kiri ku muhanda gifite ibara ry'ubururu cyanditsweho adeperi, itorero rya Cyinzovu, paruwasi Kabarondo, ururembo rwa Nyagatare. Impande y'icyo cyapa hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umukara.

Inzu iteye amabara abiri atandukanye. Uruhande rumwe ruteye ibara ry'ubururu hejuru ahanini ni umweru. Hari abantu babiri bari imbere y'iyo nzu, umwe aricaye undi arahagaze. Ku rukuta handitswe unguka banke gakenke burance.

Umugabo uhagaze yambaye ipantaro y'umukara, ikoti ry'umukara n'ishati ya karokaro. Afashe ikirahure mu ntoki kirimo ji isa n'umutuku. Inyuma ye hari guhinguka indabo zimeze nk'urusasa.

Inzu ya etage nini cane, hasi hari amazu g’ubucuruzi, gariho ibyapa ku muryango, hari n’aharambitswe amakaro, hari abanyonzi bari guca mu muhanda, hejuru handitswe Caste Siti Hoteli.

Icapa kinini cane cyanditsweho amagambo afite ibara ry'umukara hariho n'amafoto ikirahure kirimo inzoga igitanda gishashe neza ndetse n'isahani iriho ifi canditsweho firati home gesite hawuzi hariho na nimero za telefoni

Icapa kinini cane cyandikishijweho amagambo afashe ariyo " la Palme Hoteli Limitedi", yandikishijwe ibara ry'umweru n'iry'umukara, hashushanyijweho igiti, hirya hateye indabo n'igiti kirekire.

Inzu ya etaje nini cane ifite ibirahure bisa n'ubururu iteye irangi ry'umuhondo n'iry'umutuku imbere y'iyo nzu hari ibiti birebire n'ibiti bigufiya n'icapa kiri ku muhanda.

Amazu ya etaje yubatse imbere y'ayo mazu hari ubusitani burimo indabo ngufiya n'indabo ndende, afite imbuga y'amapave iparitsemo n'imodoka isa n'umweru, afite uruzitiro rw'ibyuma rufite inkingi ziteye irangi ry'umuhondo.

Ubusitani bunini cyane. Buteyemo indabo zifite amabara atandukanye. Hagati hateyemo igiti cya voka. Harimo indabo zifite amabara y'umutuku, umuhondo, n'icyatsi.

Isoko rinini cane ririmo amazu afite irangi risa n'umuhondo andi risa n'umweru, harimo imitaka y'aba ajenti ba Emutiyene ifite ibara ry'umuhondo, harimo abantu bari kugenda n'abahagaze.

Abantu benshi bari mu isoko. Riri kugaragaramo imbuto wotameloni, imyembe na pome. Hari imitaka iharambuye y'umuhondo. Hirya bari gucuruza ji, ibikapu n'udufuka n'udusume.

Botike irimo ibicuruzwa bitandukanye harimo: igicuruzwa cyitwa pampegisi bakoresha bari kwita ku suku y'abana, hakaba hariho n'utugofero abamama bambara mu mutwe bagiye kuryama, ndetse hakaba hariho na bolosada dukoresha turi gusukura amenyo.

Isoko rinini ricururizwamo imboga n'imbuto， imbuto zitandukanye， harimo wotemeroni， imyembe， amacunga， avoka，ndetse hari n'ahantu hateretse amatureyi menshi y'amagi.

Abantu benshi bari mu isoko bamwe bari gucururiza hasi. Ibicurubwa bitandukanye harimo: povuro, ibitunguru, tungurusumu, tangawizi, kokombure, amashu harimo abafashe udufuka ndetse n'ahateretse umunzani.

Umugore wicaye ukuguru kurambitse ku mifuka, imbere ye harambitswe amabase, afashe tungurusumu mu ntoki, ahetse n'igikapu mu ijosi c'umukara, ku gafuka harambitseho insenda n'inyanya.

Isoko ririmo abantu benshi bari gucururiza hasi ku mifuka iyo mifuka iriho intoryi, karoti imboga ,inyanya n'akabase hahagaze n'umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umutuku hariho n'umugore uri gutambuka gufashe agafuka k'umweru.

Abantu benshi bari mu isoko. Hepfo hubatse amazu menshi bacururizamo n'imitaka ya MTN. Bamwe barahagaze, abandi baricaye. Hari n'inkweto zirambitse hasi ku mifuka.

Abantu benshi bari mu isoko, bamwe barahagaze, abandi baricaye. Imyenda irambitse kuri shitingi, indi iramanitse, gepfo mu nzu. Hirya hari nzu ziteye irangi ry'umuhondo, hakaba n'indi nzu yubakishijwe amatafari, irimo imironko, iteyemo irangi ry'umweru.

Ibicuruzwa biri muri botike bitandukanye. Iyo botike ifite urugi rw'umukara. Harimo ibicuruzwa: amajane, jilete, ibirungo byo mu biryo, ibikoresho dukoresha turi gusukura amenyo, amavuta, supaguru na omo.

Abantu benshi bari mu isoko, harimo umugore uri kureba inyanya, inyuma hari umutaka wa emutiyene ,n'umugabo uhagaze mu kazu, imbere yabo hateretse inyanya nyinshi zisa n'umutuku, hirya hari inzu ya tiripuregisi.

Abantu benshi bari mu isoko bari kudoda bicaye ku mashini, inyuma yabo hamanitse ibitenge haruguru hamanitse ibitenge, imbuga bicayeho irimo amapave, hari abandi bakobwa bari kumanuka n'umuhungu uhagaze.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo :imboga, imbuto, ibikoresho byo mu nzu, imikandara udufuka ndetse na wotameloni.

Isoko rinini ririmo umugore wicaye n'akana kari gukambakamba. Hakaba harimo ibicuruzwa nk'imineke, imyembe, hariho ibitwikirijwe amashitingi asa n'ubururu hepfo hakaba hari n'imbuto za wotameroni.

Ibicupa bitanu bitondetse ku muronko, kimwe muri byo kigeretse hejuru, kimwe gifite ibara ry'icatsi, ibindi bibiri bifite ibara ry'ubururu, kimwe gifite umufuniko w'umweru, ikindi ry'umukara, ikindi ry'ubururu.

Inzu ya Etaje nini cyane yanditsweho Goyiko pulaza, imbere hateye igiti kirekire haparitse imodoka nyinshi n'umutaka gwa Emutiyeni, mu muhanda hari imodoka ziri kugenda.

Isoko bacururizamo ibiribwa, imboga ,n'imbuto ,harimo abantu bakeya ,muri izo mbuto harimo:wotameloni, imineke ndetse n'amapayi ya kizungu.

Abantu babiri bari gutonora ibishimbo by'intonore, bimwe bikiri imishogi, ibindi barangije gutonora biri ku nkoko eshatu, bifite amabara atandukanye avangavanze.

Abantu benshi bari mu isoko hariho imiryango myinshi bacururizamo iriho ibyapa, hakaba harimo n'abagabo babiri bahagaze ku igare, abandi bari kugenda n'imifuka isa n'icatsi iteretse hasi.

Mu isoko harimo ibicuruzwa bitandukanye amasafuriya, po, utubati twa pulasitike, amabase. Hari umugore uri gutambuka wambaye itaburiya y'umuhondo, nundi muhungu uhagaze wambaye ishati ya kacyi.

Isoko rinini cane rya Etaje, imbere hari ubusitani buteyemo indabo ngufiya, impande y'iryo soko hari parikingi y'amapave haparitse imodoka y'ivatiri y'umukara, hari umugore uri gutambuka muri parikingi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye ari byo: Imakasi , borosada, amajane, jilete, omo, n'ibirungo bashira mu biryo.

Isoko ririmo abacuruzi, harimo umugabo uhagaze wambaye bodaboda. Imbere ye hari harambuye udufuka. Hariho umugore nabwo uhagaze ufashe agafuka k'umweru, hejuru hamanitse udufuka. Iburyo hari udufuka turambuye turiho karoti n'izindi mboga.

Abaturage bari mu isoko bari gucuruza. Abagore n'umugabo. Umugore yambaye agashati gafite ibara ry'umuhondo. Bari gucuruza karoti, pwavuro, kokombure n'ibitunguru.

Ibinyobwa byaji biteretse mu bikarito hasi no hejuru hasi, hari ji iri mu kajerekani hejuru hariziri mu ducupa zitwa mirinda, hirya yazo nabwo hari izindi zitwa twisite.